Bare ninziza ndazikunda kubera ko ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko zituma tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kubera ko ariho habera ibitaramo n'ibindi byinshi abantu benshi barahurira kandi bakanywa agacupa bakaruhuka, ubuzima bwabo bugakomeza bukagenda neza.

Akabari ni keza ndagakunda cyane, kandi ni ingirakamaro muri rubanda, kubera ko kaba gakenewe, kurere ko abantu barahura bakaganirira kandi ibyishimo bikaba byiza, kuko bakorara n'ibirori byinshi bigiye bitandukanye, abantu bagomba kuzajya baranywa ariko badageze kuri iyo myaka yo kunywa, ntibagomba kujyayo.

Utubari ni twiza cyane, kubera ko dufasha abantu kuruhuka, no kuganira, ariko bikaba bibujijwe kujya mu kabari, utagejeje ku myaka cumi n'umunani, kandi kunywa mu rugero ni byiza cyane, kubera ko bigabanya amakimbirane mu miryango.

Bare ni nziza cyane zigira akamaro kagiye gatandukanye, kuko zifasha kuvura umunaniro w' abantu baba birirwanye mu kazi, kandi zigatuma abantu bishima ariko birabujijwe, kujya muri bare udafite imyaka cumi n' umunani y' ubukure kubera ko bitera ibyago n' izindi ngaruka mbi.

Bara na resitora ni ahantu heza ndahakunda cyane, kubera ko hafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ahantu abantu bafatira amafunguro, bakahafatira n'icyo kunywa, bikagenda neza. Kubera ko umuntu wahafatatiye amafunguro ataha yishimye, kuko aba ari amafunguro agiye atandukanye utapfa gusanga mu ngo.

Akabari na resitora ni byiza ndabikunda cyane, kubera ko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane iyo wagiye gutembera bituma ubona aho kurira kandi bikagufasha ukabona ibyo ukeneye ukarya, ukanywa bikagufasha cyane ugakomeza ukigendera, ni byiza cyane ahantu hose hagomba kuba hari resitora n'akabari.

Bare ni nziza cyane yego ku bantu bujuje imyaka, kubera ko igira ibikorwa byinshi, bishimisha abantu kandi bifasha kuruhuka kw'abantu benshi cyane, ariko ku bantu badafite imyaka, nti bagomba kujya muri bare cyangwa mu tubari, kuko ari ahantu habi cyane kuko leta itabemerera, kuka imyaka yabo ntiba ibibemerera.

Butike ni nziza ndazikunda cyane, kuko zigira ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye: nk'umunyu, isukari, umuceri, kawunga, inyanya, amaji, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Butike zirabigira kugira tujye kubihahirayo.

Botike ni nziza ndazikunda cyane kubera ko ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko kandi ziduha ibikoresho byiza kandi zidufasha kubona ibikoresho dushaka kandi bitwegereye, bidasabye kujya kure ku nganda aho bikorerwa, aricyo cyiza gituma dukunda kubona botike zidufasha mu ma karitsiye yacu.

Botique ni nziza ndayikunda cyane, kuberako idufasha ibikorwa byinshi bya buri munsi. Kubera ko ari aho tugurira ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. Hari n'aho tugurira amafu, amakara n'ibindi byinshi bitandukanye twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Butike ni nziza ndazikunda cyane, kuko kuzigira ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye n'ibiribwa byinshi by'ubwoko bwose. Niyo mpamvu tugomba kujya tuzikunda ariko ndashimira na Leta, igenda itwagurira botike ikazidushira hafi ahantu henshi hagiye hatwegereye. Ni byiza cyane ndabikunda kubera ko zigira ibintu byinshi tugenda dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Butike ni nziza ndazikunda cyane, ni amazu meza dukoresha kugira ngo duhahiremo ibikoresho, tugenda dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi zidufasha no kubona ibiribwa byihutirwa, no kuguriramo ibikoresho twifashisha turi gutera imiti imyaka.

Butike ndazikunda cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi ziradufasha cyane, kubera ko arimo dukuramo bimwe mu bintu dukeneye harimo nk'imigati, amandazi byose bidufasha kugira ubuzima bukome kwisunika nta kibazo kivuyemo.

Ubucuruzi bw'imyenda ni ubucuruzi bwiza ndabukunda cyane, iyo umucuruzi acuruje imyenda bimufasha kwiteza imbere kandi akajya arambara neza, bikajya biramufasha kugaragara neza muri rubanda n'ahandi hose hagiye atandukanye.

Botike ni nziza cyane ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane nk'iyo imodoka yahuye n'ikibazo ipine ryayo rigapfumuka ugahita urigurira aho hafi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'amabase, amasabune n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inzu nziza cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ni byiza cyane kubera ko bituma abakiriya benshi baza bakurikiye ubwo bwiza bw'iyo nzu, bakajya baza bakurikiye ibikorwa birimo kugira ngo nabo babe basa neza nkaho.

Botike zubatswe neza ndazikunda cyane. Zikurura abakiriya, kubera ko uyu mukiriya ahahiyemo akabona hamuhesheje ishema, abwira n'abandi bakazaza guhahiramo bikazamura iterambere ry'igihugu, n'umucuruzi nawe akunguka.

Butike ni nziza ndazikunda cyane, kubera ko ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Cyane cyane iyo zifatanye n'akabari, kubera ko bidufasha kubona ibyo dukeneye, kandi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kubona ibyo dukeneye, kandi bidufasha no kubona ibyiza bitatse igihugu cyacu, kubera ko zidufasha kubona ibikoresho bitadusabye kujya kure, ngo tubishakire aho bikorerwa ku nganda.

Butike ni nziza ndazikunda cyane , kuko ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko tuhakura ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, iby'amashanyarazi, n'izindi serivise nyinshi zigiye zitandukanye nk'iz'irembo, na za banke, ni byiza ndabikunda cyane, kandi biradufasha cyane muri sosiyete.

Ubucuruzi ni bwiza ndabukunda cyane kuko budufasha mu kazi kacu ka buri munsi, kubera nk'ubucuruzi bw'imisururu ni bwiza cyane ku bantu bayishoboye kubera ko budufasha kunywesha n'ibindi bintu bijyanye na amandazi, imigati n'ibindi byinshi twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Botike ni nziza ndazikunda cyane kubera ko ziradufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi zigira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibikoresho n'ibiribwa, harizigira ibikoresho dukoresha isuku nka rakirete, amasabune n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwa buri munsi zirabigira.

Butike ni ikintu cyiza ndagikunda cyane ni ikintu kidufasha cyane kiduha ibikoresho byinshi tugenda turakenera, byaba ibikoresho by'amashanyarazi, iby'umuriro n'ibindi bintu twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi hari izidufasha kubona ibikoresho by'ubwubatsi harimo nk'imyiko, amanivo, n'ibindi byinshi dukoresha mu mirimo yacu ya buri munsi.

Butike ni nziza ndayikunda cyane kuko idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko igira ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hari izigira ibikoresho nk'amarangi, intebe, ibitabo, n'ibindi byinshi dukenega mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Butike ni nziza ndayikunda cyane kubera ko iduha ibintu bigiye bitandukanye, ibiribwa byinshi bitandukanye ni ho tubikura nk'amata, amagi, imigati, umuceri, ibigori n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twifashisha, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Butike ni ahantu heza ndahakunda cyane, kubera ko zidufasha kubona ibintu nka bombo, biswi, ubunyobwa n'ibindi byinshi bitandukanye tuba dukeneye ku muhanda, kubera ko ariho abakiriya baba bari.

Butike ni nziza ndayikunda cyane kuko zigira ibikoresho byinshi ,tugenda dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'insinga, amatiyo n'ibindi byinshi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'ibiribwa na byo usanga zibifite niyo mpamvu nzikunda cyane kubera ko zigenda zitwegereye mu makaritsiye yacu.

Butike ndazikunda cyane, ni amazu meza akorerwamo ibikorwa bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko ari ho duhahira ibikoresho dukenera tugiye ku mashuri, cyangwa ibikapu dukoresha iyo tugiye kugura ibintu, cyangwa amabasi dukoresha iyo turi gukaraba cyangwa turi kumesa.

Botike ni nziza ndayikunda cyane, kubera ko iradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi , kubera ko tugura nk'ibiribwa harimo nk 'avoka, ibirayi, amakara, ibishyimbo, n'ibindi byinshi twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Botike ni nziza ndazikunda cyane, cyane cyane izicuruza ibijyanye n'imiti ziradufasha cyane kubera ko nkiyo urwaye uturwara tworoheje nk'umutwe, munda n'ahandi hose hadakomeye uhita wirukirayo bakaguhereza uduti turagufasha bitagusabye kuzajya kwa muganga ujye guteza akavuyo.

Butike ni nziza ndazikunda cyane, kuko zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko zigira ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye harimo nk'amasabune, amamatera, ibiribwa nk'imiceri, n'amagaze bijyanye n'ibicanwa na byo zirabigira, ariyo mpamvu tugomba kuzibungabunga tukazitaho.

Supamaketi ndayikunda cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iradufasha cyane kubera ko ibintu byose dukeneye tubisanga mo, nta kintu wapfa kuburamo. Kandi ifite umwihariko w'uko ibintu byayo bimara igihe kirekire bitandukanye nko muma butike asanzwe.

Botike ni nziza ndazikunda cyane ziradufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuberako ariho tugurira ibikoresho byinshi tuba dukeneye nk'amaradiyo, amapine yo gushyira mu binyabiziga, imikoropesho n'ibindi byinshi bitandukanye, twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Kwamamaza birafasha cyane, kubera ko ari ikintu cyiza cyane muri iki gihe. nk'urugero: kwambazwa ugashiraho nk'amafoto y'amakeke, amacapati, inzoga, n'ibindi byinshi bikorerwaga iwawe. Ni byiza cyane birafasha, kugira ngo wigarurire imitima y'abakiriya.

Botike ndazikunda cyane kuberako zibagamo ibikoresho byinshi twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi harimo: nk'amabase, amapo, amavarisi n'imyenda, byose n'abana bajya bakenera kugira ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza.

Butike ni nziza ndazikunda cyane, kubera ko zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubera ko ariho dukura ibikoresho byinshi bitandukanye harimo nk'amakara, ibirayi, ibigori, ibishyimbo n'ibindi byinshi twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko ariho tubisanga.

Ubucuruzi bw'ibikoresho dukenera mu mirimo yacu, ni byiza cyane, kuba tubibona hafi, bitadusabye kuru aho bitunganyiriza, kandi bikaba bidufasha no gukora amasaha menshi, kugira ngo akazi kagende neza, kari dukora ikintu kigaragara.

Butike nziza ndayikundaga cyane, kuko iduha ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye twifashisha mu rugo harimo nk'amabase, ibikombe, amasafuriya, imikoropesho, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo bukomeze butere imbere.

Butike ni nziza ndazikunda cyane kubera ko zadufashaga mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko usanga zicuruza ibikoresho dukenera mu bwubatsi harimo nk'amasima, ibyuma, amakaro n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira NGO tugire u Rwanda rusa neza kandi rusukuye rufite inyubako zigezweho kandi zubatswe neza.

Butike ni nziza ndazikunda cyane kuko zadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye kuko zituma tubona ibikoresho byo gukoresha ibijyananye n'ubwubatsi, n'amashanyarazi, n'iby'amazi. Ari yo mpamvu tugomba kujya turazitaho kandi tukajya kuzihahiraho kuko kuzadufasha agacana bwacu bwa buri munsi.

Butike ni nziza ndayikunda cyane. Kubera ko idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ikaduha ibikoresho byinshi bigenda bitandukanye, n'ibiribwa byinshi bitandukanye. Iduha ibikoresho nk'iby'isuku, nk'amarakerete amapapiyejenike, amasabune n'ibindi tugenda turakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Butike ni nziza ndazikunda cyane kuko zadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cye zicuruza amayinite nka za Eyateri cyangwa Emutiyeni, kuko ziduha serivisi nyinshi zitandukanye mu kugura amayinite, kugura mega zo gukoresha, n'ibindi byiciro bitandukanye, kubikura amafaranga no kuyabitsa, ni byiza cyane ndabikunda.

Butike ni nziza ndazikunda cyane kubera ko zibamo ibikoresho byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'ibirahuri, amakara, ibirayi, ibitoki n'ibindi byinshi twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo bukomeze kugenda bwisunika.

Botike ni nziza ndazikunda cyane aho zidufashaga mu buzima bwacu bwa buri muns,i zidufasha cyane cyane nko kutwegereza ibikoresho nk'amavuta, amasabune, ama omo, n'imyenda n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo ukomeze gutere imbere.

Butike nziza ndazikunda cyane, zigiraga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibiribwa, ibikoresho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane n'ibitenge by'abadamu, irafashaga kubibagezaho, ikabibagezaho hafi aho barabibona kandi ku biciro byiza, itarabahenda cyane.

Botike ni nziza cyane ndazikunda cyane. Kuko ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariho dukuraga ibintu byinshi tuba dukeneye harimo nk'ibikoresho tuba dukeneye. Nk'amarakelete, papiyejenike, amakayi n'ibiribwa nk'amata, amagi, ibirayi, ibishyimbo twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Butike ni nziza ndazikunda cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko zitwegereza ibintu byinshi tuba dukeneye nk'imyenda, amapurinta, inkweto n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, amabutike aba abifite, kugira ngo tujye turajya kubihahiraho bitatugoye.

Imirimo y'ubucuruzi ni myiza cyane kuberako idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko ari naho dukura ibikoresho dukoresha mu mirimo no mu ngo zacu bikadufasha kandi dutera imbere no kwiyubaka dukora ibyacu bijyanye neza mu mirimo yacu no mu ngo zacu.

Butike nziza ndazikunda cyane kuko duhaha ibikoresho benshi biba bitandukanye tuba dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi . Nk'amarakelete, amasabune, ibyuma n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi twaba dukeneye kwifashisha kugira ngo dukomeze gusunika ubuzima bwacu.

Butike ni nziza ndayikunda cyane, cyane cyane iyo ikorara mu nzu zigezweho kuko wizera neza ko ibikoresho byose ukeneye urabihasanga, zigira kibikoresho byinshi bitandukanye nka mazutu, ibiradiyo, amakaro n'ibindi byinshi bitandukanye buri muntu akenera.

Muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi, tugira ubwoko bwinshi bw’amabutike agiye atandukanye. Hari aho bogoshera, aho badodera, aho bacuruza ibiribwa, aho bacuruza ibikoresho by’ubwubatsi. Byose biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turabyishimira kuba bituri hafi kandi bitwegereye.

Hoteli ndazikunda cyane bitewe n'ukuntu ziba ari nini n'ukuntu zigaragara neza kandi zikaba zigira ibyumba byinshi ku buryo abakiriya baba barimo ari benshi kandi zikaba zifite amafunguro, amapisine, n'ibindi byose bishimisha.

Ibikoresho byo mu nzu ni byiza ndabikunda cyane. Cyane cyane ibyo muri dushe byabindi ujya gukarabiramo ugasanga birikoresha, bidasabye kubanza gufata ikintu, ngo ubanze ugikore uko ugishaka. Ugasanga uri kwifatira amazi agahita yizana, bitagusabye kubanza kujya kuvoma hanze ku mugezi.

Jaride ni nziza ndazikunda cyane, kubera ko zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko ziba zifite akuka keza n'akayaga keza kari gutembera aho ngaho, bikadufasha cyane kandi niyo wahafatiye foto iza isa neza, biradufasha cyane cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Jaride n'iyo mpamvu tugomba kujya turazitaho.

Isoko n'amaduka ni byiza ndabikunda cyane kuko biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane iyo dukeneye ibicuruzwa nk'imyenda, inkweto biradufasha cyane kuko tuhagurira, kandi haba hatwegereye ntibaduhende cyane ni byiza biradufasha cyane.

Butike ni nziza cyane zigira akamaro kenshi gatandukanye kuberako ari zo zituma tubona ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye nk'amapampa, uburoso bwo kwiboroshesha, amasabune, omo, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bidufasha kubona dukuye mu mabutike.

Ku isuku n'ahantu heza ndahakunda cyane, kuko hadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane abacuruza ibiva mu mazi harimo amasambaza, indagara, amahera n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi biva mu mazi baradufasha cyane.

Ubworozi bwo mu mazi ni bwiza ndabugukunda cyane, kubera ko bugira akamaro kenshi kagiye gatandukanye, Kubera ko budufasha kubona ibiruko byinshi bigiye bitandukanye, kandi bigaha n'akazi abantu benshi bayatunganya abayagurisha ni byiza cyane. Ubworozi bw'amafi bugomba gutezwa imbere, kandi bukagera ku bantu benshi tukajya tuyabona ku giciro gitoya cyane.

Isoko n'amaduka ni byizayiza ndabikunda cyane. Cyane cyane ibigira ibikoresho byo mu rugo nk'amasahani, amasiniya, amapanu, amarushe, ibikombe, ibidomoro, amabase, n'ibindi byishi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni byiza ndabikunda cyane kubera ko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ku isoko n'ahantu heza ndahakunda cyane kuko hadufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuko dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'imbuto zigenda zitandukanye, nka wotameroni, imyembe, ibinyomoro, amatunda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twifashisha mubuzima bwacu bwa buri munsi.

Isoko ni ahantu heza ndahakunda cyane kuberako haradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuberako ariho duhahira ibiribwa byinshi bitandukanye nk'imboga, inyanya, karoti , n'ibindi byinshi bitandukanye twifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo bukomeze kwisunika.

Amasoko y'ibikoresho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, aradufasha cyane kubera ko atuma tubona ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. Nk'amasafuriya, amasorori, amabase, ibitambaro byo kwifubika n'ibindi byinshi bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Kwisiga ni byiza cyane k'mubiri wacu, ndabikunda. Bidufasha gutuma umubiri usa neza, ugatemba itoto. Kandi hariho amoko menshi y'amavuta. Hariho nka glyceline na moviti igikotoro n'andi menshi atandukanye.

Amasoko ni meza ndayakunda cyane kubera ko adufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi nko guhaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'inkweto, imyenda, inkweto z'ubwoko bwose ukazihasanga n'imyenda isa neza byose ukabihasanga, biradufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko tubona aho guhahira heza kand hafite ubuziranenge.

Guhaha ibikoresho twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni byiza cyane. Kuba tubibona ahantu hafi twegereye harimo nk'amavuta, amatoroshi n'ibindi byinshi cyane. bitadusabye kujya ku nganda aho bitunganyirizwa.

Amasoko meza cyane cyane yubakishijwe ibintu bigezweho ni yo usanga akurura abakiriya kubera ko umukiriya yizera ko utapfa kuhabura ibikoresho bihari cyane cyane nk'ibigega, amakaro, imbaho, n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'ibyuma urabihasanga

Amasoko ndayakunda cyane kuko aradufashaga cyane, muri iki gihe tuba dukeneye ibikoresho byinshi nk'imbabura, amabase, ibishashi byo kubikamo imyenda, imyuko, utubati n'ibindi byinshi dukenera muri ubu buzima bwacu kugira bukomeze kwisunika.

Ku isoko niheza ndahakunda cyane kubera ko haradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi adufasha kubona imbuto nyinshi zitandukanye tuba dukeneye harimo nka pome, imyembe, wotameroni, ibipapayi n'izindi nyinshi twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu masoko habamo imbuto nyinshi cyane kandi zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo nk'inyanya, karoti, wotameroni, ibipapayi, inanasi, n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwacu, bidufasha kugira ngo bitwongere na vitamin imu mubiri.

Botike ni nziza cyane kubera ko zigira ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane nk'amaji, ama bombo n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko amaji agira akamaro kenshi gatandukanye kubera ko iyo umaze kukanywa urangije kurya ibiryo wumva wimanutse neza kandi bikaba bifasha mu igogora ry'umubiri.

Isoko ni ahantu heza ndahakunda cyane, kubera ko dukuragayo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, nk'intebe, ameza, ibitanda n'ibindi bice bitandukanye dukura ku masoko, bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo ngo ukomeze utere imbere no kwisunika.

Ubucuruzi bw'imyenda n'inkweto ni bwiza ndabukundaga cyane, kubera ko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko ari ho dukura imyenda n'inkweto twambaraga kugira tube dusa neza no mu bandi bantu, kandi bifasha cyane no kuzamura iterambere ry'igihugu, kubera ko iyo bacuruje baranasora, imisoro igakomeza kwiyongera ari myinshi cyane mu gihugu.